Umuntu uhagaze imbere y'abantu ariko bigisha bigaragaye yuko bari nko mu nama hari nk'ibintu ariko kubasobanuriraho, bigaragara yuko arigira inama cyangwa se afite ibintu ari gusobanura kuko biragaragara yuko afite, abantu ari gutunga urutoki ari kubaganiriza.

Umuntu wicaye impande ze hari amazi bigaragara yuko ari mu nama, yambaye umupira uriho i iba polisi ry'igihugu cy'u Rwanda, bigaragaje afite ibintu atumbereye wagira ngo ari mu nama.

Itangazo rimenyesha yuko uyu munsi ari wo wa nyuma wo kuba mwakwishyura imisoro yo mu mwaka na makumyabiri kane, ku mitungo itimukanwa.

Amategeko n'ingingo zihana cyangwa se zirengera zagufasha kumenya niba wahohotewe ukamenya uko wakwiregura cyangwa se uburyo wakwisobanura ubaye uhuye n'ikibazo runaka.

Icyapa cya bisi cyerekana ko aho hantu bisi zihaparika, abagenzi bakaba bahafatira bisi cyangwa bakaba baviramo bagana mu bice byegereye aho iki cyapa kiranga cyerekeye.